Aho abantu bateraniye ari benshi. Bamwe bafite indobo, abandi bari kwereka abantu icyo bakora, ku nzu ifite amabati y'ubururu, yanditseho ko ari ivuriro ritoya.

Muri farumasi iguriro ry'imiti, abantu bajya bajya gufata imiti itandukanye bakayigura, bakayihereza abarwayi bakanywa kugira ngo babashe kuba bakira.

Ndabona hari farumasi bacuruza imiti yanditseho Iraguha, ni imiryango igera kuri, imiryango igera kuri aho hano afite abakiriya benshi hameze neza.

Izi mbuto bazitaga gaperu amababi yazo arajaravura abana barwaye inkorora n'abantu bakuru turiya tubuto turaribwa turaja turaryoha tugira isukari nyinshi nta kibazo.

Ibigori bihinze mu murima bikeneye kubagarwa. Harimo ibyatsi bitandukanye urwiri n'igicumucumu ibyatsi birandaranda.

Hano bari kwerekana amateke ari mu gihuru hahinze n'imboga. Hari amateke atabagaye akeneye kubagarwa handitseho ijambo tekino spark byerekana ko ariyo yakoze aka kazi.

Uyu muntu uri mu busitani, uri kureba ubwatsi bw'imboga zigiye zitandukanye. Arahagaze yambaye umupira w'umukara, n'ipantaro ya kaki, impande ye hari imboga zigiye zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse iruhande hari n'ikindi kintu kimeze nk'itabi , aho abantu barajya baraza bagasoroma bakajya kubikoresha icyo bashatse, harunze n'amabuye menshi cyane.

Ahantu izuba ryaravuye rirangije ritwika imyaka ihateye, hagaragara ibintu bitandukanye baraje barahinga ibishyimbo ariko byaviriwe n'izuba.

Igihuru kirimo ibyatsi bitandukanye harimo ibyameze, Ibyimejeje, harimo ibibisi, harimo n'ibindi byumye ni ibyatsi bigiye bifite amabara atandukanye, iby'icyatsi kibisi, ibibindi by'ibiturusu bifitemo n'indabo.

Ndabona ibiti biri ahantu byakoze agahuru, bikoreshwa mu buvuzi, abantu baje barabyahira, bakabi bakabikoresha bavura indwara zitandukanye za buri munsi.

Ubuhumbikiro burimo ibiti bitandukanye ,abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi, hari n'ibindi bikoze nk'agahuru birajya bikoreshwa n'abantu batandukanye, birasa neza nta kibazo bimeze neza.

Ibyatsi by'umuhondo byinshi biba biri ahantu hameze neza cyane, uko ubusitani buteye bumeze neza mu byatsi byiza cyane.

Ibyatsi biri mu gahuru bigiye bitandukanye harimo icyatsi gifite ibara ry'icyatsi kibisi cyane cy'ijimye kirajya gifataho ibintu by'umweru, hari n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye biri iruhande rwacyo.